Umugabo mukuru ufite umusatsi n'ubwanwa by'umweru, arakora imyitozo hanze yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, afite ibiro bito mu ntoki zombi.

Umugabo ukoresha akagare, imbere mu nzu. Yambaye umwambaro wijimye n'ipantaro itukura. Hafi ye umugore ukiri muto umufashe ukuboko, amufasha kugenda.

Ibyishimo by'umuryango urimo abantu b'ingeri zitandukanye z'imyaka, harimo abakuze n'abato, bose bafite akanyamuneza, basabana bya hafi kandi baseka.

Uko ibikorwa byo kubagwa biri gukorwa, abantu babiri bambaye imyambaro y'ubuvuzi y'ubururu n'uturinda intoki, bari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu kubaga.

Inyubako ya kijyambere ifite amabara yoroheje, ifite igisenge kigoramye n'amadirishya menshi, imbere y'iyo nyubako hari inzira yubatse neza ijya ku muryango winjiramo.

Imbere y'iduka ricuruza ibikoresho by'amaso, iduka rifite imiryango igizwe n'ibirahure hasi hari ibyapa bigaragaza amadarubindi atandukanye n'amatangazo yamamaza.

Inyubako yanditseho amagambo ikigo nderabuzima cya Rwerere ifite amabara yoroheje, igice cyo hasi cyubakishijwe n'amatafari atukura, ahakikije iyi nyubako hari ubutaka butarangwamo na kaburimbo bufite ibimera bike.

Inyubako yanditseho amagambo ikigo nderabuzima cya Tabagwe aho binjirira, hejuru y'ayo magambo ibumoso hari ikirangantego cy'u Rwanda naho iburyo hari ikirango cy'Imbuto Foundation.

Icyumba gisa neza gicanye kirimo ibikoresho by'ubuvuzi, harimo imashini nini kandi ifite ibara ry'umweru, ikagira umwobo aho umurwayi aryama ngo asuzumwe.

Umuntu ufite uruhu rwirabura n'imisatsi yamabara ari gukora imyitozo ya yoga, uwo muntu aryamye yubitse, intoki zishinze hasi munsi y'amaboko, akaba yazamuye igituza n'umutwe mu buryo bwo kugorora umugongo.

Umugabo wirabura ufite ubwanwa, wambaye agapira gafite ibara ry'ifeza, yazamuye ukuboko kwe kw'ibumoso ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu.

Ibice bibiri bitandukanye ku ruhande rw'ibumoso haragaragazwa imbuto n'imboga zitandukanye zirimo imineke, amacunga, amashu n'ibindi. Ku ruhande rw'iburyo haragaragazwa ibyuma byo gukora imyitozo.

Ibikoresho bine byita ku ruhu, harimo icupa rifite pompe, akongera amazi ku ruhu, amavuta asubiza uruhu itoto n'akandi karimo umuti ukomeza uruhu, aya macupa yose afite ibara ry'ifeza ndetse n'ikimenyetso cy'ubudahangarwa.

Ibintu by'umwimerere n'ibikoresho bisanzwe mu buvuzi gakondo, hagati hari inkono n'inkoni bikoreshwa mu gusya bikikijwe n'ibimera byumye, ibisigisigi by'indimu, imbuto ndetse n'ibindi.